Ndabona umuntu ameze nkuri gutera umuti cyangwa se ifumbire, yambaye agapfukamunwa, ahetse ipombo ari gutera mu muceri abona ntakibazo.

Umugabo arimo yambaye agapfukamunwa ahetse ipombo ari gutera umuti mu myaka, umuceri. Ndabona iki kibaya, kirasa nikiri mu Mutara ntago amajaruguru agira ikibaya kimeze gutya.

Ifu yanditseho "ilitarayumimekisi" abantu bakoresha, barayikoresha, bakayirya, bakayikuramo porodagite zitandukanye kugira zikoreshwe ziribwa mu bundi buryo.

Muno harimo hagaragara imifuka irimo amafumbira, abantu bajya bakajya kuyireba bakayitera mu mirima yabo, kugira ngo bongere umusaruro w'ibiyikomoka ku buhinzi.

Muganga ufite agapimo, arambara akanoza ntoki mu biganza, afite agapimo karatunga ahantu mu busitani, bufite ibara ry'umuhondo, yambaye ga afite akaboko kambaye ikote.

Umuceri na wo basigaye barawutera imiti iwurinda ubukoko, cyangwa se bakaba bashyiramo n'ifumbire kugira ngo iyo fumbire ibashe kuwufasha mu gukura, ariko bakayiterana n'imiti irwanya ubukoko ndetse n'indwara. Umugabo aratera imiti.

Imiti y'ubukoko abantu barajya barajya kuyifata bakajya gutera mu myaka yabo, kugira ngo hatagira ibisimba cyangwa se uduhumyo tubasha kwataka imyaka bahinze.

Kubungabunga ibikomoka ku buhinzi, imineke n'izindi mbuto, hakoreshejwe firigo, cyangwa se icyongera ubushyuhe, kikanongera ubukonje ku biribwa, kugira bitangirika. Iki gikoresho ndagikundaga.

Ifi imeze neza ifite ijisho ifite amababa, ifite umurizo ifite utudomo twinshi cyane, iteretse ahantu abantu barajya barayiroba bakayikura mu mazi barangiza bakayirya.

Ifi iri ku isahani hariho umuceri n'utundi tuboga, ndetse n'ifi isatuyemo uduce imeze neza cyane. Ni ibiryo umuntu wese yakwifuza kuba yarya, birasa neza cyane.

Amafi bazajya bateka ari ku isahane ariho ibintu biratandukanye byo kurya, hari n'amacupa agiye ateretse impande, kugira ngo bajye bayakoresha mu bundi buryo.

Amafi ari ku isahani y'umweru, ariho amaronje, hariho te y’icyatsi, igikoresho cyongera impumuro mu biribwa. Hariho ameza, nta kintu bimutwaye, ni byiza.

Imbuto y'inyanya, karoti, amaronji, puwavuro zigiye zitandukanye, hagati harimo ikindi kintu kimeze nk'umurizo w'ifi, imbuto zikoreshwa mu kuribwa zirasa neza cyane.

Hano hagaragara umuntu uri kurya inyama zisa neza cyane agashyiramo urusenda rwinshi kugirango biryohe bise neza, nibyiza cyane nabyo.

Umwana uri ahantu afite ibyatsi bitandukanye. Hari umugezi umeze neza, afite igiti ashaka gukoza mu mazi. Hari umugezi umeze nk'icyuzi ariko gitemba hakurya ishyamba n'ikirere cyu'ubururu.

Icyuzi cy'umugezi munini hirya no hino hateye ibiti by'amoko atandukanye, harimo utuzu tw'amafi kugira ngo hari utuzu tw'inkwavu, kugira ngo nizirya zijye zigaburira amafi ari mu mazi.

Muno hagaragara amafi ari mu kintu kimeze nk'indobo, barajya barayarambikamo agera kuri atandatu, abantu barayakoresha bayarya nta kibazo, nta kibazo na kimwe bimeze neza.

Imbabura iriho amafi, barimo barayotsa, kugira ngo bajye bayarya. Bagiye bayatakakatamo imikato, kugirango babone uko bayacamo.

Umurima uhinzemo amashaza ndetse n'ibindi bintu. Urimo igiti cy'avoka, hirya hari n'izindi nzu bigaragara ko abantu bazituyemo. Zirasa neza cyane nta kibazo. Abantu bagerayo bakareba.

Inzu iri ahantu mu cyaro yubakishije amatafari iri hirya, indi ihomye na sima iri hino iteyeho akarima k'igikoni, aho barajya barasoroma imboga zo guteka kugira ngo barye.

Ngo umurima munini cyane uba usaruwemo imyaka, harimo umunara munini n'ibiti byinshi, biri ahantu hagiye hahinze basaruyemo imyaka.

Muno haragaragara inyoni iri ku dushami tw'giti cya shedere tumeze neza, ifite umurizo munini cyane muremure ungana na santimetero mirongo itanu.

Umurima uhinzemo ibirayi bivanze n' ibigori bisa neza cyane ni umurima uri ahantu hameze neza hatuje, aho abantu bashobora kujya gusarura bakumva baguwe neza nta kibazo na kimwe.

Igitoki kiri ahantu hameze neza gifite amakoma iruhande rwacyo hari ibyatsi. Ni igitoki gifite kuba cyenda gukomera cyegereje igihe cyo kuribwa kiri ahantu hameze neza cyane gitegesheje urwego.

Umurima urimo ibirayi biteye, bigaragaza ko bingana. Ni byinshi biri ahantu mu butaka hadaheruka kugwa imvura, bitewe n'uko ubutaka bugaragara.

Ni umuririma w'ibirayi, kinigi se ni kinigi? Ni kinigi ariko na kirundo na kirundo ijya igira amabara asa gutya. Ntabwo ari kinigi yonyine cyangwa, cyangwa kuruseke.

Inyoni n' ibyatsi byinshi cyane birimo inzuzi iruhande hari ibiti birebire bituyeho ibindi bintu. Hirya hari ingo ziteyeho imibyare y'urutoki.

Iki gitoki kimeze neza cyane kiriho ibitoki bibiri, hariho igikomeye umuntu yatema aka kirya, ikindi kiri inyuma kitarakomera, imbere hari ikindi giti gifite amababi y'icyatsi kibisi manini.

Ubusitani burimo ibiti bitandukanye. Bajya bahingamo avoka n'ibindi biti byitwa geeveriya. Hirya hari amazu, ndetse n'umurima basaruyemo ibigori. ibintu birimo birasa neza cyane.

Umurima bahingamo imyaka bafite poroduwi zigiye zitandukanye, bagabanyijemo uduce twinshi, two kugira ngo amazi atarekamo wamezemo ibyatsi, hirya hari ibihuru bifite amabara y'umweru birasa neza cyane.

Uyu muririma wasaruwemo imyaka imeze neza. Hari umuntu uri kugenda ku ruhande, hari n'ibiti binini birasa neza cyane. Biri ku ruhande rw'umurima.

Umuntu uvuye kuragira ashoreye inka ebyiri ,wambaye umupira w'umuhondo ,ipantaro y'umukara, wambaye bote ageze ahantu mu mirima ,imbere ye hari undi muntu ushoreye inka ufite ibasi mu ntoki hari n'ibiti birebire.

Igisambu basaruyemo ibigori, harimo igiti, n'ipoto y'amashanyarazi. Aho hirya hari ishyamba abantu bajya bakuramo ibiti, n'ibyatsi by'ibigori bikiri mu murima.

Ahantu hahinze igihaza, cyangwa se uruyuzi, rumeze neza cyane, nubwo izuba bigaragara ko ryavuye, ariko rwo rurasa neza nta kibazo na kimwe rufite.

Umubyeyi uri gusarura imbuto ze ziri mu murima, zihiye, yambaye ibitenge, yambaye agapfukamunwa, afite igitambaro mu mutwe, arasa neza cyane.

Ibijumba binini bisa neza bitetse byiyashije bitegereje kuribwa, bisa umutuku imbere hari umuhondo biri barabishyira mu ibafu imeze neza cyane kugira ngo abantu babe biteguye kubirya.

Ee basoroma icyayi! Naho baragisoroma ariko turiya tuntu nyine kutwambara biba bigoye kereka iyo wabimenyereye. Erega wibuke ko ushobora no gusoromaga ushobora no gusoromaga ka kugira ngo ukuzuze biba bigoye bisaba akamenyero cyane!

Umurima bakuyemo, bakuyemo ibirayi bikiri mu murima bya Kinigi cyangwa bya Kuruseke, bifite ibara ry'umutuku. Imizi y'aho babikuye ikiri mu murima.

Ibijumba biri mu butaka bifite ibara ritukura birasa neza cyane, ni binini biraryoha abantu bajya baza kubikura mu murima bakabirya, bifite imizi myinshi cyane nta kibazo.

Indimu cyangwa amaronji bitonoye biri musorori, n'ibindi bidatonoye biri iruhande, arajya barabizanira abantu bakabirya, birajya birasa neza cyane.

Umubyeyi wikoreye umufuka, arava mu kwahira ubwatsi cyangwa ibindi bintu yikoreye. Ahetse umwana, afite ikindi kintu mu kuboko kwe kw'ibumoso, ageze ahantu hahinze imyumbati.

Igihuru kirimo ibyatsi bitandukanye，hagaragaramo n'imbuto z'amaronji，ariho，ahiye，hariho n’andi adahiye，ariko ni ubusitani bumeze neza.

Umugore uri gupakira ibihoho arajya ashyiramo ubutaka buvanze n'ifumbire, kugira ngo ashyiremo urubuto, ruzazamuke rumeze neza cyane, rufite ubuzima bwiza barutere.

Umubyeyi uri guhinga ahantu mu gishanga kimeze neza, ubutaka busa neza, hari aho ya amaze guhinga, hari naho agiye guhinga, acukuramo n'ibyobo, hirya hari n'utundi turima tudahinze, ariko natwo dusa n'utwenda guhingwa.

Mu rutoki harimo ibiti by'imyembe, avoka, bimanitsemo hanatsemo agacuma, bifite urutoki rufite ibara ry' icyatsi kibisi, imyembe ifite ibara ritukura, agacuma ko kugira ngo uruyange cyangwa indabo bidahunguka.

Umuntu ari mu murima urimo imyaka igiye itandukanye, afite isuka, yambaye isharupe, yakenyeye, yambaye n'umupira w'ubururu arasa neza.

Imyumbati yo kurya barunze ikirundo iruhande hari ibiti by'imyumbati yayo, bifite amababi agiye atandukanye. ni imyumbati minini cyane, miremire isa neza cyane.

Aya mateke yo guteka atatu, asa neza cyane, ni byiza. Afite amabara agiye atandukanye, afite imihiro impande zitandukanye umwe, ebyiri, eshatu, enye igiye itandukanye.

Hano hagaragaramo imifuka y'ibirayi umwe, ibibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, irindwi, umunani, vbapakiye baruzuza bajyana ahantu hatandukanye, abantu barajya barayikoresha babirya.

Ndabona umufashamyumvire mu buhinzi arimo agira inama abahinzi b’ibishimbo, b'ibishimbo ko bakwiye guhinga bakurikiza purameta cyangwa se ibipimo byashyizweho, ukabona ko nta kibazo kugira ngo babashe kongera umusaruro.

Igihe ihene zi ziritse ahantu; ziri ahantu hagiye hatandukanye kunkomangizo; n' ihene zigera mu ihene icumi zifite amabara, umukara, umweru n' izindi zirimo amabara avangavanze zisa neza.

Ingari ibitebo birimo ibintu bijya kumera nk'inyanya cyangwa se imbuto z'ubundi bwoko, harimo abaguzi bambaye imyenda igiye itandukanye baje kugura ibyo bashaka gukoresha.

Amateke arunze ahantu agera kuri ane, akase neza cane barajya barayashyira mu nkono bateke ubundi agaburire abantu birasa neza cyane bikajya biraryoha.

Abantu barasarura amashaza bayashyira ku isahane, asa neza umusaruro ubona ko ufite amashaza meza. Twese tugomba kuraja turayahinga, amashaza tukayatereka gutyo tukayaratira abanyamahanga bakabona ibyiza by'iwacu mu Rwanda.

Abahinzi barimo bagerageza gusarura icyari, bari mu murima umeze neza uraringaniye udasumbana ku kijyanye n'uburebure bw'icyayi, barimo baraganira abandi babiri bahagaze bandika.

Abagore na bo bashobora kugira icyo bakora mu guteza imbere ubuhinzi bakora amaterasi, ibintu byagakorwaga n'abagabo gusa ariko n'abagore barabikoraga ntago ari abagabo bonyine. Uyu mugore ndabona rwose ameze neza, arabasha guteza imbere ubuhinzi, arabasha guca imirwanyasuri, ibintu ni byiza cyane, byakorwaga n'abagabo, n'abagore rwose barabikoraga.

Umurima wa amashu, umuririma umeze neza cyane aho, umuntu aragenda yumva ko amashu ameze neza, yunamyemo ni umugabo ufite amaboko, meza yambaye ipantaro y' umukara n' umupira w' icyatsi kibisi.

Avoka isatuye, ikasemo imikeke barajya barakuramo ikibuto kimeze neza .Bifite amavuta bigaragara ko ari menshi.

Ubundi ahandi ibigori bingana nka gutya biba bimaze nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu ariko mu bice bikonje usanga ibigori binganaga gutya bimaze n'amezi atandatu ahantu hakonje bigatinda kwera nagiye epfiriya hombona ibigori bingana gutya hashize agahe gato cyane.

Utuyira nk'utu tw'uduferege siduduheruka kera? Ariko urabona ni mu bigori, ni mu myaka, urebye umubyeyi arimo arafata umwana iki kibondo cye, mu myaka mu bigori bagenda nta muhanda, ariko hashobora kuba ari mu majyaruguru.

Abahinzi bari mu murima barimo kwiga. Ahantu bahinze amashu asasije ibyatsi, harimo uri kubereka uko bikorwa na bo bamanitse hejuru amaboko bari kumubaza ibibazo byinshi.

Abantu bejeje ibihaza binini cyane ,barabirambika ku meza , barabipima . Umugore n'umugabo bari kureba uko bingana , hari n'abandi bari hirya nabo bazanye ibihaza , ni binini cyane , byeze birasa neza.

Amateke ameze neza basaruye bayarunda ahantu. Afite imizi afite ibara ry'umukara ariho ibyondo, ayarunze arasa neza cyane. Umuntu arifuza kujya ayarya araryoha.

Abantu bikoreye ibyayi bavuye gusarura; abantu bagera mu icumi harimo abikoreye harimo n'abatikoreye, harimo abapfundikiye n'abadapfundikiye, baraje bajya mu muhanda w'ibyayi bakagenda bavuye kubizana.

Ahantu hahinze imbuto, imboga n'imbuto mu nzu aho bizwi nk'inzu y'icyatsi kibisi cyangwa se green house (mu indimi z'amahanga) abantu bajya bahinga kugirango babijyane mu murima bifite ubuzima bwiza.

Ndabona ba mama bari gufoto.. bari gusarura ibireti, ababyeyi bateze ibitambaro, hirya hari ibiti urabona ko ari umurima mugari, barishimye bari gusarurana nta kibazo, ibintu byose bimeze neza ga.

Haragaragara ibiti n'abantu bari gukora ubuhinzi, bahinga ibihingwa bitandukanye harimo ibirayi bisa neza cyane, imbogazi zitandukanye, bubatse mu mazu inyuma y'aya mago.

Amapera abiri ari ku meza hari n'igiti cyayo bayakuyeho, gifite amababi agera kuri atanu. Na cyo giteretse ku meza, ni amababi ameze neza cyane.

Umuntu uvuye gusarura imyaka afite ibase imwe, ebyiri, eshatu mu ntoki. Afite isuka ateze agatambaro yambaye bote ari kugana ahantu hari inzu bahingamo imbere zizwi nka Girini hawuzi.

Umubyeyi uri mu bishyimbo bimeze neza, ukenyeye igitenge, wambaye umupira w'umweru, akaba yambaye n'ikote ritukura, afite igitambaro mu mutwe, ari mu bishyimbo birebire cyane, byamurengeye, bishishe, bifite amababi abyibushye.

Umubyeyi yasaruye ibigori arimo arerekana aho bitatonze, urebye byamubereye ikirumbo, ntabwo byeze neza, ntabwo yishimye, yararahombye, arekana ibyo afite byasaruye, akerekana ibisiga mu murima uko byari bimeze.

Igiti cya voka kiriho avoka zeze zisa neza， gifite amababi meza，voka ziriho zifite uduheri，n'igiti kigufi，bigaragara ko kitakuze cyane， ngo kibe kinini.

Ngo umuntu usaruye inanasi ngo azishyira ku biti byumye bitambitse ibindi bihagaze. Ni inanasi nyinshi harimo izihiye, harimo izenda gushya, ndetse n'izindi zitarashya, ariko ziraryoha cyane.

Umurima barajya barahingamo ibirayi by'amoko yose atandukanye, harimo ni imboga z'imbwija zikoreshwa mu guteka, abantu bakajya barajya gusoroma bakirira.

Ihene y'amabara umukara, umweru, iri ahantu hatsinze ibiti birambitse hasi amahurunguru yayo yahataye.

Umugore urimo utera ifumbire mu bigori bisa neza, ariko bigaragara ko byari byarabuze ifumbire, arimo arayishyiramo yunamye yambaye ibitenge, yiteye ni kindi gitenge mu muhogo.

Ihene iziritse ku giti y'umukara n'umweru iri kureba ifite amatwi areba hirya no hino ifite umurizo hari n'icyatsi ndetse n'inzu iri hirya kururuhande yubakijije amatafari.

Ibirayi basaruye babimena ahantu hagaragarira ibitoki, na none ibiti bakuyeho ibitoki bivanze n'aho bakuye ibirayi kugira ngo babashe kuba banahinga neza.

Abantu bacunda amata bayatwaye ku magare, bayajyana ahakenewe, bakoresha amagare, abandi bakoresha amamoto, kugira ngo babashe gutanga amata aho akenewe, kuri moto umwe yambaye kasike undi ntayo yambaye n'umunyonzi.

Hari isoko ry'ibitoki. Ibitoki by'inyamunyu. Hari abaguzi baje kubigura. Hari ibyo batanditse ku kabaho, utubaho tw'ibiti. Hari ibiri hasi, ibitoki byinshi biri hasi bitegereje abaguzi, n'abandi baguzi bari kugurira mu isoko.

Umubyeyi uri mu murima wagiye guhinga. Inyuma ye hari urutoki n'undi muntu. Arasa neza, arishimye, yishimiye ibikorwa ari gukora. Yambaye ishati akenyeye n'igitenge ari guseka afite isuka imbere ye. Afite umuhini yashyize munsi y'akananwa ari kureba imbere ye.

Ndabona ahantu bari gucuruza indimu amalonji asa nkayasaje, ndabona, ndabona matangawizi mu kandi gakoresho.

Umurima w'ibirayi biteye, ibirimo by'ibishashi, birimo birakura bigeze mu kigero cyo kumenerwa, biri mu murima bagiye basigamo utunogo.

Inzu iteye senyenge itobaguye hejuru ifite ibiti bitambitseho ariko byumye, hari n'andi agiye aparitse ku mpande ajya kumera nk'amagare n'ibindi bintu.

Isoko ririmo imbuto, imboga, imineke, amaronji, inyanya, amatunda; abantu barimo baracuruza harimo ibitunguru, harimo ibintu byinshi by'imbuto n'imboga abantu bakoresha mu bikorwa bitandukanye.

Umuntu wikoreye ingemwe z'icyayi undi azikuye mu buhumbikiro, umugore useka afite ibasi munsi y'ingata akenyeye ibitenge n'ishati n'indabo n'imbuto iruhande.

Imifuka myinshi igiye itondekanye irimo imiteja iri ku umunzani, upima ibiro bigiye bitandukanye birasa neza cyane, igihe hari naho byacitse ariko imiteja igaragara.

Ibirayi biri mu isoko barakoramo ibiganza by'umugabo n'umugore, bari kureba yuko bimeze neza kugira ngo bajye babicuruza.

Mu isoko ry'imbuto, imboga ndabonamo karoti, inyanya ibitunguru, ibibiriganya, n'ibinda bicuruzwa bitandukanye nk'inyanya, ibishyimbo, imiteja, bifite ibara ritandukanye, umuhondo, icyatsi kibisi, umutuku, umukara, n'andi mabara.

Isoko ry'imbuto zigiye zitandukanye, intoryi ziri ahantu hameze neza, inyanya, imyunyu, ahantu mu gasoko gasa neza barajya baracuruza ibintu byose.

Avoka nziza cyane zisa neza, zifite urubuto mo imbere, zifite umutsima w'umuhondo, zirasa neza cyane ntakibazo , ibintu byose bimeze neza.

imyumbati iri mu base, imeze neza. umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, irindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi n'itatu, cumi nine, cumi n'itanu, abantu bakoresha bakuramo ibintu bitandukanye byo kurya.

Ibitunguru biri ahasi, bifite amababi, bifite n'udutunguyu munsi turajagurasa umwerero, dufite n'tuzi duto tuya tumeze neza cyane.

Imyumbati ikuye irambitse ahantu irunze ikirundo, itegereje gukoreshwa ngo ibe yavamo porodakiti zitandukanye, cyangwa se ibe yavamo ibiribwa bitandukanye.

Imiceri iri ahantu igiye ipakiye mu mifuka y' umuhondo itondekanye, barayipakira neza cyane kugira ngo itagwa igacika, ikangirika barajya barayijyana ahantu hatandukanye.

Utuvoka nk'utu dutangwa n'ibigo bikomeye kuko nta bantu bapfa kudutubura ,tuba dutangwa n'ibigo bikomeye gusa tuba turyoha ariko utuvoka tubaho uduheri uduheri nk'utu ngutu tuba turyoha, biba ari byiza biba ari byiza cyane nanjye ntubonye naduhingaga.

Mu ishyamba ririmo ibiti binini cyane , byaragiye bikora ibihuru aho abantu barajya baraza gukura inkwi zo guteka. Igiti kinini cyane cyakuze , kizanamo n'ibindi biti bitandukanye bimeze neza cyane.

Umufuka urimo ibigori uteretse hasi, ibigori bifite ibara ry' umuhondo, biri mu mufuka wa kaki bivamo injugu zikoreshwa ziribwa.

Ingano ziri kuva mu mufuka bahuye, bazishyira mu mufuka none barimo barazisuka kugira ngo bazumishe zibe zasa neza cyane, ubona ko nta kibazo na kimwe zifite.

Ababyeyi bavuye gusarura ubunyobwa umwe yambaye ibitenge ateze n'ikindi gitenge afite ubunyobwa, undi akenye ibitenge yikuje esharupe ateze n'igitenge mu mutwe afite ubunyobwa, undi ateze igitenge n'ikanzu y'igitenge afite ubunyobwa.

Amoko y'ibishimbo bya kiryumukwe, korota ndabona harimo agasahane karimo karabiyoraga bifite ibara ritukura ariko ni ubwoko bwiza.

Ibishyimbo by'amoko atandukanye biri mu mifuka, biri mu isoko mu mifuka itandukanye, ndabonamo bwoko bw'amakorota ndabonamo kiryumukwe, ndimo ndabonamo ibyitwa gihoro, amoko y'ibishyimbo.

Ingano ziri mu murima zimeze neza cyane, zihinze zisa n'izigiye kwera, aho abantu barajya baza bakazisarura, bakagenda bakajya kuzikoresha ibyo baziteganyirije, zirasa neza.

Ndabona ibishyimbo biri ku isahani ahantu bameze nk'aho bacuruza, cyangwa ubunyobwa bukaranze, ni ibintu byose bimeze neza, sinzi akantu buteretseho, uraja nk'ubumeze nk'urugodo...

Hano ni umucuruzi uri kuyobora ikawa. Yerekana ingano y'iryo producing uko ringana , arikura mu mufuka mwiza uriho amasashi n'ibindi bikoresho bitandukanye abifite mu kiganza.

Ikawa batonoye ifite ibara ry'ikigina cyangwa se umweru wijimye, rirajya ryegerana ryegeranye rirunze... ahantu

Ego mumero wibishyimbo mwiza! Byaratonotse ariko byamereye mu mufuka ntago bihinze, ariko byasaga neza byari bifite umumero mwiza, iyaba byari biri mu murima! Ariko n'igihombo.

Umurima w'ubunyobwa munini cyane uri ahantu harambitse ubunyobwa busa neza . Umurima usa neza w'ubunyobwa harimo ahari umwanya harimo n'ubwamaze gukura bugerana bumeze neza cyane.

Ibishyimbo bimeze neza cyane cyangwa soya, birimo biramera bisa neza, biri mu butaka bwiza. Urabona bifite umumero mwiza, kimwe gisiga ikindi igikurikiraho na cyo ni uko. Igikurikiyeho kugeza ubwo ku ruhande hari ikitaramera neza.

Ndabona ahantu bahinze ibyo bita ibihwagari cyangwa se ibyo twitaga ruswa kera. Ni umurima munini usa neza nta kibazo, ibintu byose ubona ko birasa neza nta kintu bitwaye ga.

Ibishyimbo, ubunyobwa bugiye burudurunze ahantu, bufite ibara ritukura, abantu barajya barabufata bakabarya bumeze neza burasa neza cyane, abantu barajya barabufata babukarange baburye.

Ibyatsi, ingano ziri gupfundika intete ziri mu murima zimeze neza zifite amabara y'icyatsi kibisi zizatanga umusaruro uko bigaragara.

Umucanga ugaragara hano usutse mu nzu harimo amatara. Inzu irimo ibiti bitambitse n'ibindi bihagaze harimo umucanga basutse mu nzu isakaje amabati

Umufuka w'ibishyimbo bari gucuruza, abagore bicaye n'umugabo uri kuruhande n'abandi bantu baje guhaha ibishyimbo; birimo mironko bari gupimisha kugirango bahe abakiriya ibyo bakeneye.

Hariho imbuto ziri kumera zizana imimere y'ubwoko butandukanye, utubuto dutoya tumeze nk'udusoya ariko tutari udusoya ,harimo utwameze harimo n'utwenda kumera, udufite imimere ni two twinshi cyane kurenza utudafite imimere.

Biragaragara yuko harimo iduka ririmo ibintu bitandukanye, harimo amavuta menshi harimo imiceri harimo ibintu byinshi by'ibicuruzwa, abantu bacuruza.

Ibishyimbo birimo biramera biva mu butaka, ibishyimbo bigera kuri bine birajya biramera bisa nabi bitewe n'uko ifumbire yabitwitse, ariko nyuma bizajya birakura bisa neza.

Hano ni inzu y'ubuhunikiro yabwanditseho yanditseho ibigori byinshi cyane biriho ibishishwa byabyo, hariho ibiti bihagaze, hariho ibiti bitambitse kugirango babashe gufatishirizaho ibyo bigori.

None bino bishimbo bisa nk'inkore? Ntago biheruka guhingwa mu Rwanda byahingwaga kera, hashobora kuba harasize himyaka nka makumyabiri. Nabiherukaga kera ariko ubu ngubu nsigaye mbona ubundi bwoko bwagiye buza bigenda birushaho guhindagurika bahingaga umwaka ushize sibyo bahinga ubu ariko nutu twari twiza.

Ndabona ikawa baryanitse rirasa neza, rifite amabara atandukanye, n'amoko atandukanye, ni ryinshi, rishobora kuba ririmo imifuka irenze ibiri, itatu, cyangwa ine, umusaruro ushimishije, abantu baraja bararihinga.

Iyi nzu yubakishije amabati y'umweru, isakaje ayo mabati y'umweru. Yubakishije n'andi mabati aho hirya imbere yaho hafite ibiti abantu bajya bajya kurebera.

Ibishyimbo byiza cyane. Bifite uruyange rw'ubururu, imiteja. Birimo birarandaranda bisa neza. Bifite uduteja dukiri dutoya n'indi ikuze n'utugufi n'utureture imeze neza.

Hano biragaragara ko bari mu bushakashatsi ,bafite ibishyimbo biri kumera biteretse ahantu ku meza ,biri kuzana imimeri imeze neza, ibindi bitaraturika ngo bizane iyo mimereri ,ariko byose bisa neza.

Ibishyimbo biri mu murima, by'ubwoko bumeze nk'inkori bifite ibiteja, bifite amabara y'icyatsi kibisi, bifite indabo biri kurandaranda, imiteja imeze neza, ariko migufiya.

Ibishyimbo biteretse ku nkoko birimo urupapuro. Ku ruhande hateretse ikindi kintu kirimo imbuto. Hejuru, munsi y'inkoko hari urupapuro wagira ngo ruteretse ku ntebe, birasa neza.

Ibishyimbo cyangwa soya. Soya ziri ku isahane zifite umusaruro mwiza, zirasa neza isahani nziza y'umweru.

Urwuri rurimo inka nyinshi bajya bazishora ku kibuga zikarisha hari ibiti impande, hepfo hari ahantu hari umugezi n'abantu batuye hakurya hari imisozi imeze neza.

Umuntu woza inka araheka ipombo ariyo akoresha yoza inka ho ubusimba butandukanye, arajya agira ngo inka ye imere neza ifite amabara y'umweru n'umukara iri ahantu.

Mbona abantu bafite imbwa zigiye zitandukanye baraza kwerekana ibyo bafite, ari abantu benshi cyane baje gukingiza imbwa babona ko zigiye zifite amabara atandukanye.

Abavuzi b' amatungo barimo gukingira inka, bambaye imyenda itandukanye, n' inka zifite amabara atandukanye, harimo abambaye isarubeti y' ubururu, harimo uwambaye itaburiya y' umweru na bote, afite n' urushinge n' ikiziriko.

Inkoko z'udushwi dutoya ugura ,ziri mu nzu yazo hari ibiryo zirya hari ibyo zinyweramo ,dufite ibintu bitandukanye zikoresha. Turasa neza dufite amabara y'umweru turacyari duto.

umuntu wahawe ihene ayiteruye n'umubyeyi we batumiwe n'umwana .Umubyeyi ubakenyeye ibitenge ,wambaye n' ikindi gitenge mu mutwe , Umugabo wambaye akagofero barasa neza cyane nta kibazo.

Amagi ari mu tuntu twayo, ni amagi atandukanye n'ayo tujya tubona. Ari mu dutureyi twayo, ni amagi afite ibara ry'umweru waka de! Ari mu dutureyi dufite amabara, tugiye atandukanye dusa neza.

Hano ni mu bucuruzi bwamagi bafite udutwaramagi cyangwa se utwo b hari n'abajaga baratwita amatereyi mateleyi, ariko dutwara amagi bacuruza, amagi nta kibazo.

Inka bari gutera urushinge, bavoma umuti batera mu ijosi, ifite amaherena ikaba iyambaye mu gutwi kanditseho icyenda icyenda mirongo irindwi.

Ibiraro byubakishije ibiti ,bisakage amabati ashaje, ibiti bihagaze n'ibindi bitambitse, bigenda bifatiraho amabati ari ku gisenge hejuru cyane.

Umugore woroye ingurube arimo arazifata neza. Yakoze ikiraro cyazo. Bigaragara ko ingurube iri gushaka gusohoka ngo irenge ikiraro cyayo, ijye hanze yacyo.

Inka iri mu kiraro isa neza. Iri kureba aho irira. Bajya bayisasira ibyatsi bitandukanye. Bayubakira n'ibiti binini cyane, aho itabasha kuvamo. Irasa neza, kandi imeze neza cyane.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, haruguru hari undi wambaye nawe itaburiya y'umweru ,wambaye amarinete umugore yambaye amadarubindi y'amataratara mu gahanga ateruye akana k'imbwa.

Urwuri rw'i Nyagatare, inka ingweba, firizoni, sine kibamba, amoko atandukanye y'inka, nubwo izuba risa niryacanye, ahangaha urabona ko ubwatsi bwumye bwashizeho.

Amagi ari mu tuntu twayo ni menshi ameze neza, agiye agerekeranyije ari mu dutureyi twinshi cyane. Afite umubare munini, arasa neza cyane nta kibazo.

Inyoni irimo kubaka icyari cyayo izajya itahamo y'umuhondo. Icyari cyubakisheje ibyatsi mu ibara ryiza cyane risa neza harimo n'utundi tuntu tw'umweru.

Intare iri mu gihuru ifite amenyo manini asongoye cyane afite amabara agiye atandukanye irasa neza iri kureba mu cyerekezo irimo ihagaze neza.

Pariki y'Ibirunga ifitemo ingagi. Hano hari ingagi ishobora kuba yatorotse parike kuko ndabona iri mu birayi iteruye akana, irareba neza yiturije, iteye ubwuzu, isa neza.

Urukwavu ruri mu gahuru rurimo ruriruka mu byatsi, rufite amabara y'ikigina avangavanzemo umukara, rufite amatwi ashinze areba hejuru, ruri kureba imbere rugana aho rwerekeza.

Iyi ni dendo ifite icyatsi mu kanwa, embo irakiguguya ishaka kukirya, ifite amababara umukara, umweru, ifite amaguru abyibushye.

Nyiri iri tungo se ko atarikorera amasuku? ko mbona byajeho inzarwe urwondo rwabaye rwose, mbega umuntu mubi ! iri ngiri rwose biragoye agomba kurikorera isuku akaryoza, akajya arisiga utuzi nibwo byaba ari byiza n'aho gutya rirareba nabi pe!

Ndabona ibit, inuma ijya iguruka ikajya mu biti, ifite umunwa, amababa, ifite amabara y'umweru mu biti bimeze neza cyane, ubona ihagazemo nta kibazo.

Inkende cyangwa akaguge gahetse umwana wako karasa neza, kagira urukundo ndagakundaga ,uzi ukuntu tuba dushimisha! Turashimisha tuno tuguge ,noneho akana kaba kari ku mugongo wagira ngo ni ak'umuntu.

Hano haragaragaraho impara n' imparage ziri mu bireti, hagaragaraho ibyatsi bifite amabara y'umuhondo, hagaragaraho n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ni igikoresho cy'igiti kiriho ibyatsi birandaranda, gihagazeho inyoni ifite amabara y'umuhondo n'ibibabi birandaranda by'icyatsi kibisi.

Ibikona bihagaze ku biti, birasa n'utugagi tw'umukara n'umweru twicaye ku biti, turi kureba imbere aho twerekeye.

Inyoni isa neza ifite ibara ryiza n'ijisho ryiza, ifite umunwa muremure n'utuguru, ikaba ifite amababa ameze neza cyane, ihagaze ku kintu kimeze nk'icy'ubuki barajya kuyifata ikaguruka.

Ndabona ari inyoni ihagaze ku giti yapfumuyemo umwenge niba ari gereveriya cyangwa pinusi, ni igikoko cyangwa se inyoni bita rutwe ifite ijisho rinini.

Inyoni ihagaze ku giti. Ifite amabara meza cyane. Ifite umunwa muremure, ifite amaguru maremare n'amano yafatishije ku giti. Ifite n'umurizo w'umukara ujya kuba ubururu bwijimye, birasa neza cyane.

Inyoni, inyoni nini cyane ifite umunwa muremure yasamye. Ifite amababa ateye ubwuzu iri kujya iyatega arimo amabara umweru, n'umukara, umutuku bimeze neza cyane birasa neza biteye ubwuzu.

Ubusitani busa neza cyane bw'ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo inyoni ifite umunwa muremure cyane n'amababa asa neza, ihagaze mu byatsi, ubona nta kibazo na kimwe, ifite n'amaguru maremare.

Inuma nini zifite amaso meza cyane, zirahagaze ku biti naho zirasa neza cyane nta kibazo, abantu bazishaka barajya baraza kuzireba hano aho ziri bakazifata bakazijyana.